Aba ni abakozi ba Kuruwa Luje, bari bamaze gufata amahugurwa, hanyuma bahabwa seretifika zigaragaza ko bakoze amahugurwa, bazajya guhagararira abandi bakabahugura, ariko mu gihe cya Kovidi bambaraga agapfukamunwa, kugira ngo hirindwe kwanduzanya Kovidi.

Iyi ni ingobyi batwaramo abarwayi, bayikoreshaga kera imodoka za ambulance zitaraza, umuntu yarwara bagahamagara abantu baba mu nama y'ingobyi bakamujyana kwa muganga bakoresheje kiriya gikoresho bita ingobyi, babanzamo ikarago hanyuma umuntu akaryamamo, akaryamamo akifuka bakagiterura bakagishyira kurutugu bakamutwara.

Aba baje gufata urukingo rwa Kovide nayinitini, bambaye agapfukamunwa bari kubakingira kugira ngo batazanduzanya kandi buri muntu aba agenewe inkingo eshatu.

Imbangukiragutabara abakozi ba Rroix rouge bafasha abantu bafite ikibazo cy'amaraso makeya, bari mu mahugurwa barwa uburyo bazajya bashishikariza abandi banyarwanda kwitanga ndetse no gutanga amaraso bagafasha bagenzi babo.

Akana ni akadorone kajyana amaraso kifashishwa mu buryo bwo gukwirakwiza amaraso ku bitaro byose kugira ngo umurwayi uragira ikibazo ahite ayabona mu buryo bwihuse bitarinze kugorana. Ni ikoranabuhanga ryaje mu Rwanda.

Aha ni kwa muganga, ni umubyeyi wicaye umaze kubyara, ateruye akana k'agahinja, yiteze igitambaro yambaye umupira w'amaboko maremare, akana kakimara kuvuka ako kanya rwose gatoya cyane, aragateruye.

Aba ni abantu babiri, umwe ari mu kagare ararwaye, undi ari kumusomera ijambo ry'Imana rihumuriza umutima we, amubwira ko azakira, yihangane n'ubwo arwaye n'ubwo ibigeragezo ari byinshi, ariko Imana izamukiza, ari kumuhumuriza, nawe ujye uhumuriza abantu bafite ibibazo barwaye.

Ibi ni ibitaro, uyu ni umurwaza amaze gusezererwa, ari kuzinga ibikoresho bye byose kugira ngo asige hameze neza atahe.

Hano ni kwa muganga abarwayi baricaye barategereje hari umumama uri mu kagare ucungagare hari n'undi wicaye ku ntebe hari n'undi musaza uhagaze wambaye ikoti ritukura haririmo ibara ry'umukara hamwe n'ingofero hari n'undi winjiye ugiye guhabwa serivisi.

Aba bantu bahagaze ku murongo baratunze, hari ibintu bagiye gufata bose bifashe neza cyane ariko ku ruhande hari ibintu bari kureba byabarangaje, byatumye buri wese yumirwa atangara.

Aha ni kwa muganga, ibi ni ibitanda abarwayi baryamaho buri wese afite igitanda cy'iwe, ibi bibiri bibanza bifite abarwayi, ibikurikiho nta barwayi bifite, ibindi biri ku ruhande na byo bifite abarwayi kandi bafite n'inzitiramibu zibarinda imibu itera Marariya, baba bameze neza bari kwitabwaho nk'uko byagenwe kwa muganga.

Umurwayi w'umusore uryamye mu bitaro, ari kuvurwa n'umuganga w'umukobwa washyize icyumvirizo mu matwi, kugira ngo ngo yumve uko umutima uri gutera, Uyu musore hejuru ye hari ibyuma biri kumufasha, kugira ngo abe muzima.

Abaganga bajya bafata umwanya bagakina n'abarwayi kugira ngo babatoze kugorora ingingo, bakoreshe siporo imitsi igororoke bitume abari bamaze igihe kinini batagenda bamenya kugenda bongera nyine kugoroka amaguru, bigatuma bagenda neza bitewe n'uko abaganga bajya babafasha ubuya baha ubufasha.

Aba babyeyi baje gukingiza abana, abandi baje kwipimisha mbere yo kubakorera ibyo bikorwa barabanza bakabaha amahugurwa y'ukuntu bagomba kwirindarya kurya indyo zituzuye no kugira imirire mibi ndetse n'umwanda kuko bituma abana badakura neza, bakabashishikariza kurya indyo yuzuye.

Aba ni abaganga babiri bari bari kuvura umurwayi none arapfuye undi ari kumutwikira neza kugira ngo nyine ajya kubwira banyirawo ko yapfuye, undi yacitse intege aricaye ku buriri byabacanze nyine bari kumurundarunda neza.

Aha ni kwa muganga, muganga yashyize icyumvirizo mu mutima w'umurwayi, arikumva uko amerewe cyangwa se ko ari guhumeka, umurwayi arembye cyane cyane, muganga ari kumusuzuma kugira ngo arebe indwara arwaye abone kumuha imiti.

Hano ni kwa muganga. Umuganga ari kumanika sonde ifasha umurwayi mu kumugaburira. umurwayi urembye cyane adafite imbaraga nyinshi zo kwigagaburira hanyuma muganga agashyiramo imiti zimufasha kugira ngo aticwa n'inzara akaba yapfa.

Kwa muganga bagira ibitanda byo guha abarwayi ngo baryameho igihe barembye cyane n'abarwaza babo babyifashisha bagirango ngo baruhure imibiri yabo bananiwe, urababona ko bifite isuku kandi bisa neza.

Umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na makumyabiri na rimwe aho icyorezo cya covidi cyari cyarugarije igihugu cyacu cy'u Rwanda niho abaganga bambaraga imyenda bipfutse hose kugira ngo bataza kwandura icyorezo cya covidi nayinitini cyangwa se coronavirusi.

Utu ni udukoresho two kwa muganga muri laboratwari, bagikoresha bari gusuzuma ibizamini bafashe bafashe abarwayi iyo bari kureba ko umugore atwite cyangwa se umuntu arwaye malariya. Bafata amaraso bakayashyiraho cyangwa se inkari bari gusuzuma umukobwa utwite.

Aha ni muri laboratwari bareba ibisubizo by'ibizamini abarwayi batanze hanyuma bakajya kubabwira indwara, hari ababa bisuzumishije kanseri, malariya, SIDA, kureba ko batwite, byose babikorera muri laboratwari.

Aba ni abanyeshuri biga siyansi bamaze kuyiga muri puratike, uyu muzungu kubafasha abasobanurira uko bikorwa, nyuma yo kubasobanurira bafashe agaserifi bishimye cyane kandi ko isomo ryumvikanye cyane.

Aha ni muri laboratwari aho basuzumira, bafatira ibizami kugira barebe indwara ziri mu maraso y'abantu, bagira n'utundi tutesite dutesitinga nyine indwara umuntu afite cyangwa se ngo barebe niba hari ikibazo amaraso afite.

Kwa muganga umubyeyi amaze kubyara umwana, ari kumwitegereza ari kumwitegereza neza uwo umwana amaze kubyara, biramushimishije cyane rwose, ashimishijwe no kuba abyaye akana keza cyane cyane cyane cyane umunezero ni wose.

Icyumweru cyahariwe ubuzima bw'umubyeyi utwite n'umwana we uri mu nda. Twite ku buzima bw'umubyeyi utwite n'umwana, tubaha inkingo ziteganyijwe kugira ngo batazarwara indwara nk'igiteru bitewe n'uko batafashe urukingo bakiri bato.

Hano ni kwa muganga aho umuganga ari gusuzuma abarwayi areba uko isukari imeze uko umuvuduko umeze, arebe niba hari ikiri ghinduka ugereranyije n'uko baje, umurwayi ari kuvura yiteze agatambaro ka oranje yambaye ikintu cy'ubururu muganga yambaye imyenda y'umweru.

Aha ni mu ishuri ry'irerero muri y'amashuri aba yaregerejwe abaturage akorera mu midugudu. Aho umwarimu wabo aba ari kubaha igikoma, abereka urukundo, abateruye, abadashoboye kwinywesha akabanywesha n'abakiri bato akabafasha bose.

Akarima k'igikoni gateyeho imboga nziza cyane z'idodo kubabatse neza mu mifuka n'ibiti by'imigano mu bikaro cya mitaga rivanze n'ifumbire ubundi bigatanga umusaruro hehe no kongera kurwara bwaki ufite akarima k'igikoni iwawe.

Aba baturage bicaye mu nama y'umudugudu, bari guhabwa amahugurwa n'umuyobozi w'umugore ndetse ari no gutanga ingero yifashishije umugore ufite umusatsi wa naturele wambaye umupira w'umutuku, umupira uriho n'agakomo k'umweru mu ijosi, ari kumutangaho urugero abahugura kugira isuku.

Inkunga y'ubukerarugendo mu iterambere ry'abaturage mu bihimbi bibiri na makumyabiri, mu bihumbi bibiri n'amakumyabiri na gatatu RDB. Ahangaha ni abakerarugendo baba bari gutembera mu Rwanda bari kureba ibyiza bitatse u Rwanda henshi mu Rwanda.

Abaturage bari gufata amahugurwa, bahawe imipira y'icyatsi kibisi, yandikishijeho ibara ry'umweru, harimo abagore bambaye ibitenge, abandi bambariye ku mapantaro, harimo n'abagabo bambaye amapantaro, bari gukora uruziga bakora ingororamubiri.

Umuryango babyaye abana babiri b'impanga. Abana b'impanga bambara imyenda isa ,bambara ingofero zisa, amasogisi asa kugira ngo bataza kugira ishyari ibintu byose baba babihuje bisa. umwe papa we aramuteruye undi mama we amuteruye.

Igiterane cy'ivugabutumwa cyo kurwanya ibiyobyabwenge, kubaho ni Kiristo, mwese muratumiye kuzaza muri kino giterane tuzaba turi kumwe n'abahanzi bahimbaza Imana ndetse n'amakorari menshi cyane, tuzaba dufite n'umuvugabutumwa uzi kuvuga Yesu neza, muratume muri kino giterane kugira ngo muzaze mwirebere.

Kugira ibitekerezo byo kwiyahura, ni ikimenyetso gikomeye k'indwara y'agahinda gakabije (depression). Wibyihererana niba ugize ibibazo bari kubwira bano bantu ngo ntibakajye babyihererana bakajya babivuga, bafashanye kugira ngo igabanyuka ry'abantu biyahura ribe iki.

Aya ni amahugurwa arangiye yabereye ahantu muri sale bakodesheje, aho abahuguwe bose nyuma yo guhugurwa bafata ifoto y'urwibutso bishimye cyane ndetse na za bandore za ya nsanganyamatsiko bari bafite ziri inyuma yabo.

Isange one stop center Nyagatare. Ni ikigo gitanga serivisi zitandukanye, umuntu wese akigana baramwakira neza cyane, urabona ko wanditseho Isange, isange rero ntabaheje.

Aha ni muri farumasi abakozi bakoramo bari kwegeranya ibikoresho bagenda basanga impapuro basoma kugirango ngo babashe kugira imiti bashyiraho kuruhande rumwe bataza kuyivanga n'indi bigatuma bitagenda neza hari n'amazi iyo umurwayi aje kwivuza kugirango anywa imiti neza bitumaha amazi yo kunywa.

Ni farumasi ikorwamo n'umugabo buri miti bitewe n'izina ryayo n'indwara ivura ifite aka etajeri kayo ibamo, kandi bigomba kuba byanditseho kugira ngo bataza kuyitiranya n'iyindi bakabivanga.

Health and Wellness, ni forumasi ifite imiti yose yose yo mu ndwara zose zibaho kandi hakoramo umuntu ubihuguriwe wabizobereye muganga w'inzobere, ku buryo iyo ugiyeyo aguha umuti ugendanye n'indwara urwaye kandi uhita ukira burundu.

Ki forumasi, ni farumasi nziza iri ahantu ku muhanda yubatse neza, hari ubwihinzi bwose, hari umuriro w'amashanyarazi, hari na kizimyamto, umuti wose wahashakira urawuhabona kandi ku biciro byiza cyane.

Progress farumasi. Iyi ni farumasi yateye imbere, nini cyane yagutse irimo imiti myinshi, ifasha abantu barenga mirongo inani ku munsi. Ni farumasi itanga keya nziza na serivisi nziza ku bayigana.

Coartem ni ibinini bivura umuntu warwaye malariya, birakiza cyane iyo ubiriye ukabiririra ku gihe, biragufasha ugakira neza rwose.

Iyi ni farumasi irimo imiti y'amaso umutwe nta kibazo wahagirira uramutse urwaye amasoso yarakuzengereje uza hano bakaguha imiti yawe harimo n'imiti y'abana, imiti y'ingeri zose irimo.

dayina foruma ni ivuriro ryigenga bavurisha ibimera ukeneye imiti yose itari ibinini waza ahangaha barakuvura kandi ugakira ukazagaruka nyuma uje gushimira. Bavura umugongo, ibirenge, ndetse n'izindi ndwara zazo.

Muri farumasi haba harimo imiti myinshi cyane, ikiza abarwayi ndetse kandi uburyo bworoshye bwo kwishyura bufite kodi bishyuriraho ndetse n'imashini itanga fagitire.

Iyi ni farumasi umuganga ari kureba iyimiti amaze kwandikira umurwayi kugira ngo ayimuhe. Ari kugenda areba amazina yaho, ahangaho ari kumanura imiti agiye guha umurwayi kugira ngo izamukize itondetse neza ku murongo nta kajagari kugira ngo abashe kuyitandukanya n'iyindi.

Ndi uw'agaciro ndashoboye, nawe uri uw'agaciro kandi urashoboye, iyi ni siroga igomba kuturanga nk'abanyarwanda, abanyeshuri tukabibatoza ndetse n'abaturage muri rusange bakumva ko ari abantu b'agaciro kandi bashoboye.

Aba ni abaturage baje gufasha amahugurwa, baje gufata amahugurwa ku kigo nderabuzima agendanye n'uko bagomba kwirinda kwandura indwara zitandukanye cyangwa se kugira imirire mibi, bishimiye ibyo bagejejweho bari gukoma amashyi bari no guseka bigaragara ko umuyobozi nyine yababwiye ibintu byiza.

Nyuma y'inama yateranyije abayobozi bose harimo n'abajyanama b'ubuzima, abakuru bashinzwe umutekano ndetse na polisi bahaye abakuru b'imidugudu y'abajyanama b'ubuzima shisha kibondo zizafasha abana kugira imibereho myiza no gukura neza.

Aba ni abaganga bari bari guhugura urubyiruko bigisha kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, kuko bituma birinda gutera inda zidateganyijwe ndetse no kurwara indwara za SIDA. Nyuma y'amahugurwa abaganga bahaye kondomu, urubyiruko kugira ngo bajye bazifashisha bitume birinda.

Nawe birakureba rinda umuryango wawe Malariya kugira ngo mugire ubuzima bwiza cyane. Aba ni abajyanama b'ubuzima bifatanyije n'abandi baturage ndetse n'abaganga muri rusange, bari kurwanya icyorezo cya Malariya kandi badushishikariza kuryama mu nzitiramubu batubwira ngo na we birakureba.

Ipimisha virusi itera SIDA umenye uko ubuzima bwawe buhagaze, Abanyarwanda bashishikariza buri muntuyobogeze kwipimisha virusi itera SIDA kugira ngo bamenye uko ahagaze, niba ayirwaye atangire afate imiti itaragira ubukana bwinshi ngo ibe yamwica.

Umuravumba. Ni icyatsi cyo giteye ahantu ku rugo rw'imiyenzi, cyangwa se urugo rwubakishije ibiti kivura inkorora, kirarura cyane cyane baragifata bakagikaraga bakagikamura utuzi tuvuyemo ukaduhereza umuntu urwaye inkorora arakira.

Uyu ni umuto w'inkorora witwa umuravumba, uteye iruhande rw'insina, ukunze guterwa ku bigo byo mu rugo nyine bikigeje ku gipandu gikikije urugo, ufatwa neza iyo umuntu arwaye arawifashisha kandi ahita akira.

Croix Rouge, aba barimu n'abanyeshuri bari gutanga amaraso azafasha abarwayi b'indembe mu gihe babuze amaraso. Hagati yabo hicayemo umuganga uri gufata ibizami, kugira ngo batange amaraso.

Umuravumba uyu muti ukiza indwara nyinshi cyane inkorora, anjini, kubabara umutwe, guhitwa, ibicurane, kubabwa mu gifu, kuribwa mu gifu, uyu muti ni mwiza kandi ni umuti w'umwimerere ukozwe mu muravumba.

Kwa muganga batanga serivisi nziza cyane, bafasha abaturage bagiye batandukanye mu kubapima isukari uko ihagaze, ndetse' umuvuduko w'amaraso ari kumwereka uko ikigero cy'umuvuduko ungana bishimye baseka amuha keya.

Gira ubuzima health poste de sante, abayobozi bavuye kusura poste de sante kugira ngo barebe uko ikora niba ikora neza batanga serivisi nziza ku barwayi, basanze bimeze neza basubiye mu mirimo yabo.

Muganga ari kumwe n'umurwayi ari kumubwira indwara akazandika mu gitabo cyabugenewe bashinzwe kwandikamo abarwayi baje kwivuza kugira ngo babahe imiti igendanye n'ibyo barwaye kandi bagomba gutanga serivisi nziza.

Gira ubuzima health post Karambo, iyi ni poste de sante yo mu gace ka karamba iriho umusirikare ku ruhande yakira abantu neza.

Hano nibwo kwa muganga icyomba abarwayi bavugira ni indwara, umukecuru ari kubwira muganga uko arwaye, ari kwandika mu gitabo muganga nawe we indwara z'umukecuru kugira ngo abone ko amwandikira imiti, hari ibitabo byabugenewe bandikamo uko abarwayi bagiye babakira.

Ikigo nderabuzima cya Nyagatare ibikorwa byo gusuzuma no gufasha ababana n'ubwandu bwa virusi itera Sida, waba uri gutekereza ko utwite cyangwa se ufite izindi ntekerezo utiyizeye neza waza hano tukagufasha.